Amashu ni igihingwa gihingwa mu bintu bijanye n'imboga cangwa si mu... bashaka kugira ngo babone ibintu bijanye n' imboga bihagije, ni igihingwa cera ahantu hashushe cangwa si hakonje ahantu hose kirahera.

Amajeri ni kimwe mu gihingwa cy'ikinyamisogwe, kiri mu bwoko bw'ibishyimbo, amashaza ni igihingwa kiryoha cyane, kiba gifite utunyampeke dusa n'umuhondo, ndetse n'ibishishwa byabyo biba birimo, inyuma biba bisa n'icyatsi.

Voka ni urubuto ruribwaga mu gihe runaka. Iyo ushaka kujya avoka cangwa se ushaka gusarura avoka, urazifata ukazica ukagenda ukazirambika ahantu hahoraga hameze nkaho uzi hashushe, ugategereza zigasha.

Ibigori ni igihingwa gihingwaga ahantu mu butaka ariko kikerera ameza gari hagati y' icumi, na cumi n'abiri, kikaba ceraga mu bintu bijanye n'ibintu by'impungure.

Umuhinzi ni umuntu ukoraga ibintu bijanye n'umwuga go guhinga gusa. Nka guca wenda tukavuga ngo uyu muntu ahingaga ibirayi gusa, cyangwa se uno muntu ajaga ahinga ibintu bijanye n'imbuto gusa.

Ahantu bahinga ni ahantu hameze neza, hataharabuye hatarimo ibibuye, mbesi bagiye barakusanya itaka bakarishyira mu buryo bwaryo, kugira ngo babashe guteramo imyaka yabo.

Inama ni ahantu hahurirwaga n'abantu benshi batandukanye, bashaka kwiga ku kibazo c'abantu, cangwa se bashaka kugira ngo babashe kureba ukuntu bakwiga ukuntu bakwiteza imbere.

Ingurube niryo tungo rikundaga kuja rirabwagura cangwa si rirabyaragura ibyana byinshi, ribwaguraga ibibwana biri hagati y'icumi na cumi na bitanu.